Umwana wambaye ikanzu ndetse nmo imbere yambariyemo agashati gafite uturongo dutandukanye, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe, hanze y'inyubako ebyiri zitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo bari kumwe n'abarimu babo harimo abazungu babiri ku gikuta cy'ishuri handitseho ijambo unisefu barimo barapepera bigaragara ko bishimye uko basuwe n'uyu muryango wa unisefu mu bayobozi babo bahagaze inyuma harimo n'uwambaye umupira wanditseho unisefu.

Inyubako ngari irimo abantu bicaye mu mukazeru biragaragara ko bari mu nama bari kuganira imbere yabo hari mudasobwa ndetse kuri ayo meza hariho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Ku iriba rya nayikondo aho bavoma bapompa amazi, umugore ari kuvomera umwana muto cyane w'umuhungu, ufite amajerekani atatu, iruhande rwabo, hari abandi bantu bari kwitegereza uko bavoma, harimo abagore bateruye abana ndetse n'abana bakiri bato cyane ariko bashobora kwigenza.

Abana bambaye imyenda y'imihondo bari kumwe n'abantu bakuru ndetse bari kubaha amata mu gikombe gifite ibara rya kaki, hamwe harimo n'abandi bahagaze batarimo kubaha ariko bari kubareberera.

Umwana bigaragara ko arwaye ariko kwa muganga yazanywe n'umubyeyi we, ndetse iruhande rwe hari akameza kariho ibirango bitandukanye, hakabaho n'ibyangombwa, umurwayi ari kumwe n'umuganga urimo kumusuzuma yumva ko afite ubushyuhe.

Kuri robine hari ijerekani eshatu, ebyiri z'umuhondo n'imwe y'ubururu, hicaye kandi umwana w'umukobwa arimo arakaraba ibiganza ndetse urabona ko yishimye kuko arimo araseka.

Icyapa kiriho abantu b'ingeri zitandukanye, harimo umugore wambaye itaburiya y'ubururu, n'undi wambaye iy'umweru, hakaba abagabo batatu umwe yambaye ikoti, ishati y'umweru ndetse na karuvati, abandi babiri basigaye bakaba bambaye amashati.

Itiyo irimo gusohokamo amazi menshi, ndetse hakaba umuntu wambaye ishati y'ubururu, akaba arimo gukaraba. Iruhande rw'iyo tiyo, hari aho amazi ahagarara.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara karuvati itukura na marinete afite ijambo arabwira abantu qbareba mu maso, nkuko bigaragara ku gikuta n'inama yabaye muri bibiri na makumyabiri na gatatu, yavugaga ku byerekeranye n'ubuzima.

Umwana uri kuvoma ku ndobo iteretse hejuru ya akameza bigaragara ko ari kandagira ukarabe iri hanze y'inzu, biragaragara ko ari umunyeshuri kuko yambaye impuzankano ibaranga.

Icyumba kigari kirimo abantu benshi batandukanye ndetse hari na televiziyo irimo iragaragaza amashusho, imbere ku rubuga hicayeho abantu batanu ndetse bigaragara ko aribo bayoboye ikiganiro cyangwa inama.

Mu cyumba harimo abaganga babiri bicaye ku meza ndetse hari na mudasobwa imbere yabo n'impapuro zitandukanye, umwe biragaragara ko hari amakuru ari kubanza gushyira muri mudasobwa hari umugore uhagaze imbere bigaragara ko akeneye serivisi ibaturutseho.

Abana benshi bari kwa muganga ndetse hari umukobwa ugezweho, uri guterwa rushinge ku kuboko kw'iburyo ndetse uwo muganga yambaye impuzankano y'akazi.

Inyubako irimo abantu bake bose bambaye udupfukamunwa harimo umuganga ndetse n'undi ufite ikarita y'akazi ariko uhagaze ari kureba ku gipapuro, imbere ye hahagaze umuntu wambaye ijiri.

Umwana w'umukobwa wagiye kuvoma ku mugezi yifashishije uburyo bwo kudubika ijerekani mu mazi kuko ntacyo kudahisha afite kandi nawe ubwe amazi yayakandagiyemo ,ikigaragara urabona ko n'amazi menshi cyane ku buryo byakabaye byiza afite ikintu yifashisha ari kuyadaha.

Abana batonze umurongo ku iriba bari kunywa amazi bateze ikiganza ku mureko, iruhande hari intebe ikoze muri purasitiki ndetse hakaba hari icyapa cyanditseho ko ari umuryango wita ku bana.

Umurwayi wo mu mutwe. Yicaye yegamiye urukuta, yifashe ku itama, arihebye. Afite ishashi mu ntoki, irimo amazi. Yambaye urukweto rumwe kandi ikindi kirenge nta kintu yambaye.

Abagore babiri bicaye ku ntebe y'urubaho, umwe biragaragara ko arwaye kuko yipfutse igitambaro ku munwa, ari kumwe n'undi urimo kumubaza uko amerewe, hirya yabo hari imyase ishinze ku rukuta.

Icyumba cy'inama kirimo abagore bicaye ku ntebe ndetse imbere ku meza hariho icupa ry'amazi, hakaba hari telefoni ndetse n'impapuro hari umugore uhagaze imbere uyoboye inama.

Umugabo ufite imisatsi myinshi wambaye Isegeri n'ikabutura, yicaye hagati y'ipine ndetse biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, hakaba n'abandi bagabo babiri bamuhagaze iruhande.

Umukecuru wicaye ku ntebe ya kinyarwanda, atetse igikoma mu isafuriya kandi isafuriya nayo iteretse ku mashyiga ya kinyarwanda, iruhande rwe hari umufuniko n'igikombe, uko bigaragara atuye mu nzu nziza y'amatafari ahiye kandi ateye irangi ritukura.

Umugore wambaye umupira w'umweru ateruye akana gato katangiye kumerara umusatsi mu mpande zombi, bari hanze y'inyubako ahagaragara amatafari y'impunyu amwe ahiye ndetse hakaba hari n'idirishya ry'ibirahure rifite utwuma dukingiriza ibirahure turi mu ibara ry'umuhondo.

Abakecuru batatu, bakenyeye ibitenge, bose bateze ibitambaro kandi bafite utubando mu ntoki. Umwe arikonsa umwana, bigaragare ko bavuye mu murima.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite urudodo ari kugenda akoza ku menyo bigaragara ko ari kuyoza neza, afite umusatsi uringaniye, akaba ahumirije atari kureba neza.

Umugabo wasetse afite amenyo meza cyane yererana y'igitare, umugabo wiyogoshesheje neza ku mutwe afite agasatsi gakeya ariko ubwanwa na favore biriho ariko nabyo biringaniye, urebye ku menyo ye urabona yuko ari ikimenyetso cyiza cy'isuku cyane cyane isuku yo mu kanwa.

Kwa muganga, muganga ari kwita ku murwayi, yambaye ga n'agapfukamunwa. Umurwayi yegamye ku gitanda, muganga arabikorana ubwitonzi, kugira ngo arusheho kubungabunga isuku.

Muganga w'amenyo kwa muganga ari kwita ku murwayi, umurwayi yiyegamije ku gitanda aryama agaramye, yabumbuye umunwa kugira ngo muganga abone ukuntu areba mu kanwa neza muganga yambaye agapfukamunwa ndetse naga mu ntoki kugira ngo arusheho kubungabunga isuku.

Umwana wambaye isengeri ndetse n'umupira w'umweru, afite imisatsi iboshye, ndetse afite umuganga uri kumwitaho, arimo kumutamika akayiko kariho umuti. Umuganga yambaye ga mu kwirinda mikorobe zitandukanye. Umwana aryamye ku gitanda cyabugenewe.

Umukecuru ari kumwe n'umwana ndetse n'umugore bari mu nyubako irimo ibintu byinshi bitandukanye, ku meza hariho agasahani gatoya ndetse n'ikimera, hari n'ibyo umwana afashe mu ntoki ari kwereka.

Umugore ari kumwe n'umusaza ndetse amaze gukora umutobe uvuye mu mbuto kandi urasa umuhondo, ari kumusukira mu kirahure ngo amuhereze.

Umusaza wambaye ikoti ry'ibara rya kaki, yambaye icyuma ku kuboko ari kugenda akanda areba imibare itandukanye, akaba yambaye ipantaro y'umukara, afite umusatsi mwinshi watangiye kuzamo imvi bikagaragara ko akuze.

Abantu babiri bicaye ahantu hari ku meza, bari gukina ibyo twita igisoro, bose barishimye bigaragara ko baryohewe n'umukino ndetse hirya ku ruhande haragaragara ibiti n'ikirere gifite amabara ubururu, umweru mu bicu.

Abagabo bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu, bari mu nzira isashemo amatafari ndetse hari n'itara, biragaragara ko bari mu butebembere, iruhande rwabo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara ya corona virusi, nkuko uyu mugore wambaye umupira utukura n'imisatsi yumukara yambaye agapfukamunwa, kandi umugabo umwegereye arajya kwitsamura agakoresha akaboko agakinga ku mazuru, hepfo yabo gatoya hari umugabo n'umugore basizemo umwanya uhagije hagati yabo.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'imyeru, bafite icyapa imbere cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, bari kugenda mu muhanda mugari hari amatara ibiti ndetse n'inyubako nyinshi zitandukanye ziri hafi aho.

Icyapa kiriho umwana uryamye, ndetse hakabaho n'amagambo yanditseho, hariho rimwe inzogera, ndetse hakabaho ijambo rivuga ngo umunsi wo kugenda.

Abakobwa bambaye impuzankano y'akazi biragaragara ko ari abaganga ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ko ari ivuriro ryigenga, hakaba hari n'ubusitani bahagazemo burimo indabyo zitandukanye.

Abantu benshi bari mu muhanda ubisikanirwamo bamwe baragenda abandi baragaruka harimo n'abikoreye, umuhanda wegereye ibitaro bya Ruhengeri, icyapa cy'ibyo bitaro kimanitse ku rukuta ahagana hejuru ku rukuta rw'ibyo bitaro.

Mu nyubako nini harimo umugabo wambaye imyenda y'akazi ndetse hakaba hari ibyuma byinshi bitandukanye, hakaba intebe ndetse na mudasobwa yaka irimo amashusho atandukanye.

Kwa muganga harimo icyumba kinini kirimo ibitanda biteye ukwabyo, kuko bigiye birebana ndetse hakaba haryamyeho abarwayi batandukanye bamwe baricaye abandi bararyamye hari n'abandi bari mu tugare.

Umugore uri kwa muganga ateruye umwana ndetse inyuma ye hari undi bari kumwe bahagaze iruhande rw'inyubako kandi biragaragara ko bavuye ku byara.

Inyubako ngari bigaragara ko ikorerwamo inama, iteyemo intebe nziza zigezweho, ndetse hakabaho n'amezaza imbere ariho indangururamajwi, imbere yazo hakabaho umuyobozi yicara ari gutanga ikiganiro cyangwa ayoboye inama.

Inyubako nini bigaragara ko ari kwa muganga harimo intebe nyinshi zitandukanye, bikagaragara ko harimo izifite amapine, hari ibyuma biri ku rukuta bicometse cyane bareberamo uko ubuzima bw'abantu buhagaze.

Inyubako ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, ndetse ikagira amabati y'ubururu yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Gashagasha, hicaye abantu bane ku ibaraza ry'iyo nyubako bategereje umuntu ubaha serivisi.

Inyubako iri kwa muganga yanditseho ko ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi bujyanye no ku bagore ndetse biragaragara ko ariho abagore babyarira, hari umuganga uhagaze hanze ku ibaraza wambaye itaburiya y'akazi.

Inzu ikoze mu bwoko bwa muviringu, irazengurutse iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane. Hakaba n'inzu iri hirya yayo na yo igeretse rimwe, hari n'inzira iganayo, ishashemo amatafari.

Umugabo yicaye hejuru ku gasongero ndetse hari isima ihari. Hazengurutse ndetse n'ibimera bitandukanye n'igiti kinini cy'inganzamarumbo. Inyuma ye hari inyubako.

Inyubako ngari irimo ibyuma byinshi bitandukanye ndetse ikagira ibirahure biva hasi bikagera hejuru ku gisenge, hakaba harimo intebe y'urubaho yicabwaho n'abantu bategereje serivisi, bigaragara ko ari ahantu hakira abantu benshi.

Inyubako ngari irimo intebe zitandukanye zifite imisego ndetse hari n'ameza amwe agezweho, ku rukuta hashushanyijeho inyamaswa ifite umunwa nk'uw'inyoni ndetse iyo nyubako irageretse.

Mumayira abiri ni ahantu inzira ebyiri ziba zihurira, ndetse zirimo kunyura ahantu hatandukanye, hakaba hagati yazo harimo inyubako n'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi by'amoko menshi bisa icyatsi kibisi.

Ibitaro binini cyane ndetse bifite n'aho bakirira abarwayi iyo bahageze, hicaye umuganga ubishinzwe ndetse hakaba hari n'izindi nyubako nyinshi ziri iruhande rw'ibyo bitaro.

Uducupa dutatu dufite imifuniko y'umweru ndetse hakaba hariho icyapa kirimo amabara menshi atandukanye, twavugamo umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'idomo, kandi hakaba handitseho amagambo menshi atandukanye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ,ari mu nzu yagenewe siporo, aryamye hasi ku kantu arimo arifashisha, kandi yafashe ivi ari kurishyira hejuru mu gatuza.

Akagare k'abantu bafite ubumuga. Gafite amapine ane, aho gukandagira ndetse n'intebe nziza yo kwicaraho igizwe na matera. Gafite kandi aho kwegama ndetse n'aho gufata mu gihe umuntu yaba akarimo.

Imboga n'imbuto zitandukanye, harimo karoti, amashu ndetse n'imbuto zirimo iz'icyatsi, amacunga ndetse n'umuntu uri kwiruka.

Umupira wo gukina, inkweto za siporo, igikoresho bifashisha kwa muganga bapima umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima, bigaragara ko iyo bakoze siporo neza uko bikwiye utandukana n'indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, bari kugenda basimbuka uduti barambitse hasi ndetse bafite ibintu mu ntoki bimeze nk'umukino bakina w'amaboko, ndetse hakaba n'ibindi bikoresho bitandukanye biri muri iyo nyubako.

Amacunga, indimu ndetse hari na za pome, hakaba na metero n'igikoresho cyifashishwa, hakaba hari ikirahure kirimo umutobe uturutse muri izo mbuto.

Uducupa tw'umweru ndetse turiho ikirango kiriri mu ibara ry'umukara, ndetse handitseho ijambo sitopu bikaba bivuze ngo hagarara, ndetse dufite umupfundikizo dukoze nk'uducupa tumwe tubamwo umuti wica udukoko.

Umukobwa wambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu ndetse n'isengeri y'umukara, yicaye ku mukeka ari mu myitozo ngororamubiri, mu cyumba cyangwa ahantu hisanzuye twita muri saron, imbere hari mudasobwa n'icupa ry'amazi n'utundi dukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu batandukanye bari muri siporo. Umwe ari muri siporo yicaye, undi ari gukora siporo ku mupira, undi arigukorera siporo ku igare ryihuta ribara kilometero umuntu agenze, hari uri gukora siporo yarambuye mu mugongo ubona yuko ari kugorora ingingo z'umubiri zose, hari n'uri gukora siporo ari kwicunda.

Umusore munini wambaye umupira ufitekora iri mu ibara ry'ubururu, afite baro mu ntoki iriho umubare wa kane, ayiteretse mu mayunguyungu ndetse biteguye gukina biragaragara ko ari umukinnyi wabigize umwuga.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, n'isengeri y'umukara, arabyutse yicaye ku buriri, ari kwinanura kandi bavuga ko kwinanura bifasha umuntu gusubira mu buzima akagira kuraje, kuri uwo munsi wose mu gihe ubikoze ubyutse.

Umusore wambaye isengeri isa n'ibara ry'ivu, ari ahantu hasa nk'ahijimye, hari ibimera by'icyatsi kibisi ndetse afite icupa ry'ubururu ririmo amazi ari kunywa bigaragara ko avuye muri siporo kandi kunywa amazi ni ubuzima.

Ibikombe bibiri by'ibirahuri ndetse birimo amazi amaze kuba umuti, kuko bashyizemo ibibabi, bikagaragara ko ari ibiti bafashe kugira ngo baze gukuramo umuti umuntu ashobora kunywa agakira indwara zitandukanye.

Umusozi uhanamye cyane uteyeho ibimera byinshi bitandukanye hari ibiguma hasi ku butaka bikarandaranda ndetse hari n'ibizamuka bigahagarara twavugamo nk'ibiti.

Abantu benshi bari mu kibaya kinini giteyemo imiti cyangwa twavuga ko hari ibimera byinshi bitandukanye, harimo igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo hakabamo imashini bifashisha muri ubwo buhinzi bwabo.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu, ndetse imbere ye har’agatebo karimo imiti itandukanye y'ibibabi, bigaragara ko arimo kuyitaho kugira ngo ayigire neza ivemo imiti.

Agasorori karimo umutobe uvuye mu ndimu ndetse hakaba n'iparato gateretseho, hari na tangawizi, biragaragara ko ari umuti arimo gukora mu ndimu na tangawizi, bikaba biteretse ku gasambi gatoya.

Amacupa abiri rimwe rito rifite umufuniko w'umweru ndetse irindi rinini rifite umufuniko w'umutuku, hariho igishushanyo gisobanura igikakarubamba ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Icupa ry'umweru ririho ikirango kirimo amabara atandukanye: twavugamo icyatsi, umukara ndetse n'igishushanyo cy'akanyamaswa k'isazi byose biri kuri iryo cupa.

umukeka urambitse ahantu hari udusahani dutandukanye dufukuye hagiye harimo utuntu tugiye, dutandukanye hamwe hagaragaramo urusenda rw'umutuku ahandi hakagaragara uduti tw'amoko menshi atandukanye.

Urusyo n'ingasire biriho udusaka dukeye iruhande rwabyo hari utubindi twa kinyarwanda hirya y'utubindi hari urutaro runini ruriho ayandi masaka byose biteretse ku musambi.

Amacupa atandukanye, amwe manini, ateretse mu ikarito apanze neza ku murongo. Ndetse hakabamo rimwe bakuyemo. Hariho amagambo yanditseho, ndetse n'ishusho ry'ikimera cy'gikakarubamba.